Ni ikiganza gifashe amafaranga, amafaranga y'abanyamahanga ni Amanyakenya, ni Igihugu gituranye n'u Rwanda, kiri muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse hari n'amadolari ku ruhande, amadolari ijana n'ayandi atandukanye. Ni amafaranga yifashishwa ahantu hose kandi ni ingirakamaro.

Ni ahantu hanini harimo icyo twita amatapi, iyo nzu y'ubucuruzi icururizwamo ayo matapi yo gushyira mu nzu ajya ahantu hatandukanye muri salo, mu byumba ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, ni meza ari mu mabara meza kandi atandukanye.